Sitasiyo ni ahantu haba esansi, aho usanga ibinyabiziga biza bikahaparika kugira ngo babashe kunywesha kugira ngo ibashe kugenda neza itwara abaturage.

Feruje ni nziza cyane, irinda impanuka nyinshi zitandukanye aho usanga abaturage baja ahantu hatandukanye bari mu binyabiziga bagenda n'amaguru, iyo bahageze ibinyoteri bibabwira icyo bagomba gukora.

Ingabo z'igihugu mbere na mbere zubahwe, zifite akamaro, ziducungira umutekano, zidufasha kugira amahoro mu gihugu ndetse na buri umwe wese akumva ko aho ari hose atuje.

Abapolisi n'ingenzi mu gihugu aho usanga mu mihanda, baba bahari bagafasha abashoferi gukosora amakosa, baba bakoze kugira ngo birinde impanuka.

Abapolisi ni beza cane baturindira umutekano tukagira amahoro mu buzima busanzwe aho usanga abantu benshi batandukanye babakunda.

Ingabo z'igihugu nk'abapolisi ni beza cane badufasha mu kuturindira umutekano tukabaho neza dutuje mu buzima bwiza aho usanga buri muntu wese nta kibazo afite.

Ingabo z'igihugu ni nziza cane. Zidufasha mu kubaho neza, zikatugira inama kugira ngo tubashe kugira umutekano mu gihugu cy’u Rwanda.

Abayobozi ni beza bashinzwe umutekano, bakumira icyaha hijya no hino, aho usanga bafata abaturage bari mu makosa bakabafunga kugira ngo babashe kwisubiraho.

Abayobozi ni beza cane aho usanga abaturage hirya no hino bateranye bakabagira inama bakabafasha mu gukemura ibibazo byinshi cane bitandukanye

Abayobozi ni beza cane aho usanga bahurira mu nama zitandukanye, bakiga ku bibazo by'abaturage bakabasha kubaho neza, mu buzima busanzwe.

Inama ni nziza cyane aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bahuriyemo, bakungukiramo ibintu byinshi bitandukanye, biteza imbere abaturage mu gihugu hose.

Abayobozi ni beza bahurira mu nama y'abaturage bakabasha gukemura ibibazo byabo, bakabaho neza mu mutekano bishimye cane.

Abayobozi ni beza cane bahurira mu nama zitandukanye bakiga ku bibazo by'abaturage, bakabasha kubikemura bikagenda neza mu gihugu cane.

Abayobozi ni beza cyane bakunzwe n'abaturage bo hirya no hino, aho usanga bahurira mu inama, bakiga ku bintu bibasha guteza abaturage imbere.

Imitako ni myiza cane. Ikoreshwa n'abaturage bo hirya no hino aho usanga bayigura bakayijana kuyitaka mu mazu meza.

Igiseke ni kimwe mu bikoresho bikunzwe n'abaturage benshi cane, bakunze kugikoresha mu muco nyarwanda, mu makwe aho usanga bashyiramo ibintu byinshi bitandukanye.

Mu muco nyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye, intore n'abaturage bakaza kuzireba zibyina neza cane, bakivuga ibyivugo bakishima cane.

Isekuru n'umuhini ni kimwe mu bikoresho bikunze gukoreshwa mu rugo cane. Harimo: kubisekuza isombe, ubugari, ubunyobwa n'ibindi byinshi cane.

Intore ni nziza cane zibyina neza ziba zambaye imigara. Mu muco nyarwanda usanga abaturage baza kuzireba bakishima, ndetse bakaruhuka mu mutwe.

Isekuru n'umuhini ni igikoresho gikunzwe cyane mu muco nyarwanda cyahozeho, aho asekuriramo isombe, ubugari, ubunyobwa n'ibindi bikenerwa.

Urusyo ni igikoresho bakoreshaga kera mu muco nyarwanda, bari gusya amasaka bagiye kuyavugamo umutsima, aho usanga abaturage benshi cane barakundaga kugikoresha.

Kunywera mu miheha ni umuco wahozeho kera kandi n'ubu ukaba ugihari, aho usanga abaturage hirya no hino bateranira ahantu runaka bakanywera ubushera mu muvure, mu muheha bagasabana n'abandi.

Umuvure ni mwiza cyane. Ukunzwe n'abaturage benshi batandukanye. Bawengeramo ibitoki kugira ngo havemo umutobe. Bawujyana hirya no hino ku masoko atandukanye ndetse bakanawunywa.

Umuvure ni mwiza cane ukunzwe gukoresha mu muco nyarwanda, aho usanga abaturage hirya no hino bawufite mu ngo, bawengeramo ibitoki bikavamo umutobe.

Mu muco nyarwanda abavugizi ni beza, bavugira inka neza aho usanga bakunze kubikoresha, mu makwe menshi cane atandukanye hijya no hino.

Ivu ni ingirakamaro, ni ifumbire bateza imyaka baritarisha nk'ibintu wenda kugira ngo bishye vuba urugero nk'amavoka, imineke ashyira mu gitariro bigashya vuba.

Isekuru ni igikoresho cyabaga mu muco nyarwanda n'ubu gikoreshwa mu rugo hirya no hino basekuriramo ibintu byinshi cane bitandukanye harimo isombe, ubugari ndetse n'ibindi.

Mu muco nyarwanda habaho gusabana ugasanga abaturage bateraniye ahantu hamwe bakanwa ikigage bakanywera mu miheha bakishima.

Imitako ni myiza cane. Bayishyira mu mazu atandukanye. Aho usanga ikunzwe mu muco nyarwanda. Hirya no hino urujya n'uruza rw'abantu baza kuyigura mu masoko atandukanye.

Intore nziza cane zikunze gukoreshwa mu muco nyarwanda, mu bukwe butandukanye barazitumira, ikirori kikagenda neza cane barabyina abantu bakishima.

Ikibindi gikunzwe gukoreshwa mu muco nyarwanda aho usanga hijya no hino babitaramo ubushera ndetse n'urwagwa aho usanga abaturage bakoze ubusabane.

Ibiryo, imyumbati, ibishyimbo, ibigori, amashaza ni ibiryo byiza bitera imbaraga mu mubiri. Iyo umuntu abiriye amera neza cane akumva atuje.

Isekuru n'umuhini ni byiza cane babikoreramo ibintu bitandukanye, gusekura isombe, ubugari aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kugura ibyo bikoresho.

Imitiba ni myiza cane, aho usanga abaturage bayishira mu mashamba kugira ngo inzuki zibashe kujyamo havemo ubuki ,bufasha abantu hijya no hino.

Ikibindi ni igikoresho kiba mu rugo cyakoreshwaga mu muco nyarwanda, aho usanga bengeramo inzoga, bagatariramo ubushera, ndetse bakanakinyweramo.

Gusabana ni byiza mu muco nyarwanda, aho usanga abaturage hirya no hino, bari kunywera m'umuvure ndetse no mu muheha, ni ibikoresho bikunze gukoreshwa cane.

Uducuma twakundaga gukoreshwa n'abaturage benshi cane. Aho wasangaga mu kirori ahantu runaka bari kutunyweramo inzoga ubushera, n'umutobe.

Agaseke ni keza gakoreshwa mu muco nyarwanda ikindi kandi mu bukwe baragakenera cane bashyiramo ibishimbo, ibigori n'ibindi bakajya gusura abantu.

Umwuko ni kimwe mu gikoresho gikunzwe cyane, n'abaturage hirya no hino mu ngo, bagikoresha ibintu bitandukanye, harimo: guteka igikoma, gukora umutsima ndetse n'ibindi.

Isekuru n'umuhini ni ibikoresho bikoreshwa mu muco nyarwanda. Mu ngo hirya no hino zitandukanye, basekurimo isombe, ubugari n'ubunyobwa n'ibindi, aho usanga bikoreshwa n'abana ndetse n'abantu bakuru.

Intore zibyina neza, aho usanga uruja n'uruza rw'abantu baja kuzireba, ndetse zitwibutsa umuco wahozeho kuva na kera cane.

Guhinga ni byiza cane, aho usanga abashinzwe umutekano ingabo z'Igihugu bahurije hamwe n'abayobozi ndetse n'abaturage, bagafatanya bakabasha guhinga neza.

Inka kuziha amazi ni byiza cane, bituma inka igira amata menshi bakayajyana hirya no hino, bakakuramo amafaranga menshi cyane.

Igikoresho cy'ingorofani gifasha abaturage kikaborohereza mu gutunda imicanga amabuye n'ibindi aho wayisanga ku masoko hirya no hino uyikeneye.

Agacuma kakoreshwaga mu muco nyarwanda, aho usanga abaturage basabanye bari kukanyweramo, bari gukina imikino itandukanye bishimye neza cyane.

Akamashini keza cane, gatanga fagitire iyo umuntu aje kugura ibintu byinshi cane, bitandukanye, kugira ngo umenye ibyo watwaye buri gihe.

Igikoresho cy'amashanyarazi kibasha kugabanya umuriro kugira ngo ibindi byuma bidashya, birinda impanuka hijya no hino mu baturage aho usanga gitunzwe n'abantu benshi.

Icyuma cy'amashanyarazi bita umurasire ni cyiza cyane gifasha abaturage hijya no hino hatageze umuriro tukabasha gucana bakabona neza ntakibazo.

Igikoresho cy'amashanyarazi gifasha mu gukupa umuriro mu gihe habaye ikibazo, kugira ngo hataba impanuka, aho usanga mu mazu y'abaturage hirya no hino kiba kirimo.

Urusengero ni rwiza cane ruhuriramo abantu batandukanye, baza gusenga bakumva ijambo g'imana bakabasha gufashwa mu mibereho ya buri munsi cane.

Urusengero ruhuriramo abantu benshi batandukanye bavuye mu turere hijya no hino ,aho baza baje kwiga ijambo jy'Imana kugira ngo babashe kumera neza.

Abanyeshuri ni beza biga ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abana baja ku mashuri, kugira ngo babashe kuvamo abantu batandukanye, harimo ubuganga gitifu n'ibindi.

Urusengero ruhuriramo abantu bo hirya no hino，baza baje gusenga kugira ngo bumve ijambo ry'Imana bafashwe neza cane.

Amarerero ni meza cane afasha abana kumenya ubwenge bagashabuka bakamenya gusoma . Habamo ibikoresho byinshi cane bifasha mu gukura neza mu mutwe.

Gutera pasiparume ni byiza cane. Birinda ibyondo iyo imvura yaguye. Ndetse bikarinda n'ibiza. Ntabwo hajya hatenguka usanga abaturage hirya no hino bakunze kubitera mu mbuga.

Urusengero ni rwiza cane ruhuriramo n'abantu batandukanye baza baje gusenga, bakumva ijambo ry'Imana bagafasha bakabasha kumvikana mu mibereho yabo.

Amazu y'ibyitegererezo ni meza cane afasha abaturage mu kubaho neza batanyagirwa, bagatekera ahantu heza, bakava mu bwigunge hijya no hino.

Umusigiti ni urusengero abisilamu bajya gusariramo bakumva ijambo ry'imana bagafashwa ,bakabaho neza, aho usanga abaturage hijya no hino bajyayo.

Imihanda ya kaburimbo ni myiza cane, ifasha abaturage aho usanga baja hijya no hino biboroheye bagatega ibinyabiziga kugira ngo babashe kuhagera vuba.

Akagari ni keza cane, kagendwa n'abaturage baturutse hirya no hino， bazanye ibibazo byabo，kugirango abayobozi babashe kubibakemurira neza cane.

Amazu y'ibyitegererezo nimeze cane. Afasha abaturage mu kubaho neza batekera ahantu hakeye, imvura ntabwo ibanyagirwa, ndetse ibafasha kuva mu bwigunge.

Ibyapa nibyiza cane biyibora abaturage aho bagana hirya no hino, cyangwa abanyeshuri bifuza kujya kwiga ku kigo runaka kugira ngo batayoba.

Ngaho gukora intebe ni mwiza cyane aho usanga abaturage biteje imbere, harimo intebe, ibitanda ugasanga bikunzwe n'abantu benshi.

Kaburimbo inyurwamo n'imodoka zivuye hijya no hino, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu batembereramo bari kujya mu nce zitandukanye cyane.

Abarimu ni beza cane bafasha ababyeyi hijya no hino mu kwigisha abana babo, bakunguka ubumenyi bwinshi butandukanye, bakabasha kwihangira imirimo bakiteza imbere.

Icapa ni cyiza kiyobora imodoka gikoresha abashoferi, hirya no hino iyo bahageze bamenya icyo kivuga bakagabanya umuvuduko, bikarinda impanuka nyinshi cane.

Amazu y'ibyitegereza ni meza cane, abaturage bayabamo bishimye cane. Bagira ubuzima bwiza, bakabaho neza, bakarera neza kuko imvura iba itabanyagira.

Abamotari baparika ku muhanda kugirango babashe kubona abagenzi, hoteli nziza cyane aho abaturage bajya kuharuhukira.

Amatara yo kumuhanda ni meza cane arinda impanuka nimugoroba, aho usanga iyo acanye haba hagaragara neza cane, imodoka zikagenda neza zituje.

Igikoni c'abana ni ingirakamaro cane, aho usanga ku mahuriro hirya no hino gihari, bahatekera indyo yuzuye kugira ngo abana bari mu mirire mibi babashe gukura neza.

Igiterane gihuriramo n'abantu benshi cane baturutse hirya no hino baje gusenga, bakumva ijambo ry'Imana kugira ngo babashe gukizwa.

Moto ni ikinyabiziga cyiza cane, gikunzwe n'abaturage hirya no hino aho kibasha kubatwara kikabajyana mu ngo zitandukanye, mu turere ndetse no mu bindi bihugu.

Ibinyabiziga by'imodoka ni byiza cyane ni nini zipakira imizigo ivuye hirya no hino haba mu Rwanda, haba hanze y'igihugu hose cane.

Abamotari ni beza cane badufasha mu kudutwara batugeza mu turere dutandukanye bakatujyana mu kazi ndetse babasha gutwara n'imizigo.

Imodoka ni kimwe mu binyabiziga byiza cane, ifasha abaturage mu kubageza mu turere dutandukanye, zijyana abana kw'ishuri bakajya kwiga batakerewe.

Moto ni kimwe mu binyabiziga byiza cane, aho usanga bifasha abaturage mu kugira ngo babashe kugera ahantu vuba ndetse n'amatagisi ni meza cane.

Ikinyabiziga cy'imodoka ni cyiza cane, gifasha abaturage mu gutwara imitwaro yabo, bagatwaramo vidange, peteroli kugira ngo ibashe kugera ku masoko hirya no hino.

Gare ni nziza cane ni ingirakamaro, ifasha abaturage mu kubona imodoka; habamo taxi, coasteri, litico n'izindi modoka nyinshi cane zitandukanye.

Iyo modoka ni nini cane ipakira ibintu byinshi, ikajya hirya no hino ikarenga n'umupaka, ikajya gupakirayo ibintu byinshi cane.

Ikinyabiziga cy'imodoka nikizayiza cane, gikunzwe n'abaturage benshi aho usanga kibajyana mu mihanda iri hirya no hino ikikije u rwanda, bakabasha kureba ibintu bitandukanye.

Muri gare ni ahantu haba haparitse imodoka zitandukanye : harimo kwasiteri, tagisi, ritiko; aho usanga urujya n'uruza rw'abantu, bari gutega binjiramo.

Imodoka ifasha abaturage mu kujya mu kazi. Ndetse n'abanyeshuri bakagezwa ku ishuri batakerewe. Aho usanga bitworohera, urujya n'uruza rw'abantu bari gutega.

Kinyabiziga cy'imodoka nini cane gikunze gupakira imizigo, iyivana mu mahanga hirya no hino ikayizana mu Rwanda, kugira ngo abaturage babashe kuyibona.

Ikinyabiziga cy'imodoka ni ciza cane, gifasha abaturage hijya no hino mu kwikorera imicanga bitabagoye ndetse n'amabuye, aho usanga habamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Imodoka itwara abantu ikabajyana hijya no hino, ikabatembereza mu gihugu cy'u Rwanda, bakabasha kumenya ibintu biri hijya no hino bidukikije.

Ikinyabiziga gifasha abaturage kugeza ibicuruzwa ahabugenewe, bakabasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Ikinyabiziga cy'indege kigendera mu kirere habamo abantu benshi bakoramo, bafasha abagenzi, bakareba abafite ikibazo ndetse n'ibyo bakeneye.

Sikuru bisi ni imodoka ifasha abarimu ndetse n'abanyeshuri kugera ku ishuri igihe，bagatangirira amasomo badakererewe ndetse bakanagerayo batiyanduje.

Ikinyabiziga cy'imodoka ni cyiza cane, gifasha abaturage mu gutunda umucanga bitabagoye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bakunze kuzikenera.

Ikinyabiziga cy'imodoka ni cyiza cane. Gifasha abaturage mu gupakira imicanga bakayijyana hirya no hino bakabasha kubaka amazu neza cane.

Ikinyabiziga cy'igare ni ciza cane gikunzwe n'abaturage hirya no hino aho usanga gitwarwa ningeri zose: abana, abagore, ndetse n'abagabo.

Ikinyabiziga ni ciza cane gifasha abaturage mu gutwara imizigo yabo, kikabijyana ku masoko hijya atandukanye cyangwa mu ngo bakabasha kumera neza.

Indege ni ikinyabiziga gikorera mu kirere cyiza cane aho usanga abaturage hirya no hino bakijyamo kikabajyana mu mahanga atandukanye cane

Gare, ni ahantu imodoka zihurira, ziba ziparitse, aho usanga abaturage bajya gutega, kugira ngo babone uko bagera mu turere dutandukanye.

Imodoka ifasha abagenzi kubageza aho bagomba kujya hijya no hino mukazi, cyangwa muturere dutandukanye, abana bakagera ku mashuri ku gihe cane.

Ikinyabiziga c'imodoka ni ciza cane, ni ingirakamaro. Aho usanga gitwara peteroli, ikabijana hijya no hino. Abantu bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Imodoka ni'ikinyabiziga cyiza cane, gifasha abaturage mu kujya ahantu hatandukanye, gatwara imizigo hijya no hino tukishima cane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cane batandukanye，baja aha hirya no hino， harimo，Gisenyi， Rubavu，Musanze， Gakenke， Burera ndetse na Gicumbi.

Ku kibuga cy'indege ni ahantu haparika. Aho usanga abantu bajya mu mahanga hirya no hino baza kugira ngo ibashe kubagezayo neza cane.

Ikinyabiziga ni ciza cane gifasha abantu benshi batandukanye harimo abazungu, baza gutembera bakareba ibyiza by'u Rwanda bidukikije cane.

Ikinyabiziga cy'amagare ni cyiza cyane. gikunzwe n'abaturage benshi cyane batandukanye. Yaba abagabo, abagore ndetse n'abana. Kidufasha gutwara imizigo.

Ikinyabiziga cy'amagare ni cyiza cane aho usanga gikoreshwa n'abaturage hijya no hino bapakira imizigo bayijyana ku masoko atandukanye kugirango babashe kubona amafaranga.

Abanyonzi ni beza batugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi, batwara abantu ndetse n'imizigo, aho usanga abaturage hirya no hino babagana kugira ngo babageze aho bifuza.

Ibinyabiziga ni byiza cane, bifasha abaturage mu gutwara imizigo, bakabitwara neza, bigatuma batavunika, bakabigeza aho bigomba kugera neza cane.

Gare habamo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka, amamoto ndetse n'amagare yikorera imizigo. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu barimo barahaza...

Ikinyabiziga ni ingirakamaro cane gifasha abaturage mu kugeza ibicuruzwa hirya no hino ku masoko atandukanye, harimo nk'amaji aho usanga havamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Ikinyabiziga ni cyiza cane. Kidufasha mu gutwara ibihingwa byacu ku masoko hijya no hino. Tukabasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Imodoka ni nziza cane ikunze gukoreshwa n'abaturage bo hirya no hino, aho usanga ibafasha kujya mu kazi ndetse n'abana bakajya ku ishuri badakererewe cane.

Imodoka ifasha abaturage ku bajyana hirya no hino mu nce zitandukanye bitabagoye, bituma badakererwa ku kazi ndetse n'abana bagiye ku mashuri.

Ibinyabiziga bifasha abaturage mu kujya ahantu henshi hatandukanye, bitatugoye aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza gutega imodoka cyangwa amagare.

Umukino w'umupira w'amaguru ni mwiza cyane ukunzwe n'urubyiruko rwinshi cane, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bawukina siporo nziza ituma umuntu arambuka neza imitsi ikazibuka.

Gufana ni byiza cane bituma uruhura mu mutwe ukumva umeze neza. ikindi kandi n'abakinnyi bakina neza bakishima cane bagatahana intsinzi.

Siporo ni ingenzi mu buzima. Kwiruka ni byiza cyane. Bituma amaguru arambuka, ndetse n'imitsi ikamera neza, ikazibuka, amaraso agatembera neza. Ndetse n'imyanda igasohoka.

Siporo ni ingenzi mu buzima, ituma mu mutwe hamera neza imyanda irasohoka ukabasha guhumeka neza umukino wa basiketi ni mwiza, aho usanga abaturage hirya no hino bakunze kuwukina.

Siporo ni nziza, ni ingenzi mu buzima, aho usanga ikorwa n'abantu benshi batandukanye. Ituma imitsi irambuka, amaraso agatembera neza, ndetse n'imyanda ikava mu mubiri ikabasha guhumeka.

Umupira w'amaguru ni umukino mwiza cyane witabirwa n'abantu benshi cane, aho usanga abaturage hirya no hino bakunda kuwukina.

Siporo ni ingenzi mu buzima ituma imitsi irambuka ikazibuka amaraso agatembera neza ndetse n'imyanda igasohoka mu mubiri ukabasha guhumeka.

Siporo ni nziza ikunzwe n'abaturage hijya no hino haba abanyarwanda cyangwa abo hanze y'igihugu, ituma imitsi irambuka amaraso agatembera neza mu mubiri.

Siporo ni ingenzi mu mubiri, usanga umuturage ameze neza imitsi irambuka amaraso agatembera neza cane, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bakunze kuzikora.

Siporo ni nziza cane uhuriramo n'abantu benshi, batandukanye mukanya imitsi irarambuka amaraso agatembera neza, ndetse n'imyanda igasohoka mu mubiri ukumva umeze neza.

siporo ni nziza cane yo kwiruka ituma amaguru arambuka neza imitsi ikarambuka amaraso agatembera neza cane mu mubiri akarinda uburwayi butandukanye

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu, ituma imitsi izibuka amaraso agatembera neza, imyanda igasohoka mu mubiri. Ikindi kandi ni ingirakamaro, iteza imbere abaturage bakabasha kumenyekana hirya no hino.

Siporo nziza cyane ituma mu mubiri hamera neza imitsi ikarambuka amaraso akazibuka, hagasohokamo imyanda myinshi cane akabasha guhumeka neza.

Siporo ni ingenzi mubu buzima, ituma imitsi irambuka amaraso agatembera neza, imyanda igasohoka mu mubiri ukabasha guhumeka neza cane.

Sporo ni nziza, zifasha umubiri kugororoka, zigafasha ibiha gukora neza, ndetse zikagabanya ibinure mu mubiri w'umuntu. Kuzikora ni byiza, kuko uba wumva umeze neza, igihaha gikora neza...

Siporo ni nziza mu mubiri, aho usanga abaturage hijya no hino bayikunda, imitsi irarambuka, amaraso agatembera neza, ndetse n'imyanda igasohoka cyane.

Umupira ni mwiza. Ni siporo nziza cyane, inanura imitsi amaraso agatembera neza, umuntu agahumeka neza ndetse umuntu akarya neza n'ibindi byinshi.

Umukino wa basiketi ni mwiza cane aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baje kuwureba, kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe bakishimana n'abana babo.

Siporo ni ingenzi mu mubiri cane, bituma imitsi irambuka ikazibuka amaraso agatembera neza mu mubiri, imyanda igasohoka ugahumeka neza.

Siporo habamo imikino myinshi itandukanye harimo gutwara imodoka gukina umupira aho usanga binezeza abantu bakishima bakaruhuka mu mutwe imibiri ikamera neza.

Ikibuga ca vole ni ciza cane aho usanga urubyiruko hirya no hino baza kuhakinira ,kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe ndetse n'imitsi irambuke neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima aho usanga urubyiruko rwinshi rukunda kuyikorara irambura imitsi amaraso agatembera neza ndetse n'imyanda igasohoka mu mubiri.

Ibikombe byiza cane bikozwe muri zahabu, babihemba abakinnyi bakinnye neza ndetse bagatanga n'imipira bagataha bishimye.

Siporo ni ingenzi mu buzima aho usanga ababana n'ubumuga nabo bakora imyitozo, imitsi ikarambuka neza, imyanda igasohoka mu mubiri, bakabasha kumera neza.

Umukino wa basikati ni mwiza cane aho usanga abakobwa bakunze kuwukina. Ni umwe muri siporo nziza cane, imitsi irarambuka amaraso agatembera neza.

Vore ni umukino mwiza cane，ukunzwe n'urubyiruko hirya no hino rutandukanye，ni umupira mwiza， ifasha kurambuka amaboko，imitsi ikagororoka， amaraso agatembera neza cane.

Siporo ni ingenzi mu buzima. Ifasha abantu mu kumera neza, imitsi ikarambuka, amaraso agatembera neza mu mubiri, ndetse n'imyanda igasohoka, ukabasha guhumeka neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima, aho usanga ikunzwe n'urubyiruko ndetse n'abayobozi n'abaturage muri rusange. Bituma imitsi irambuka ukaruhuka neza mu mutwe.

Siporo ni ingenzi mu buzima, ituma imitsi irambuka amaraso agatembera neza. Abaturage bose barayikunda cane aho usanga n'imyanda ibasha gusohoka mu mubiri ukabasha guhumeka neza.

Umudugudu mwiza cane habamo amazu menshi atandukanye yegeranye aho usanga abaturage babana neza , baganira bakabasha kubaho neza cane.